Imiti yica udukoko ni imiti ikorwa mu bihingwa kandi iyo miti bayifashishaga no kuhira imyaka, cyane cyane ituma nkongwa zipfa ndetse n'ibindi bikoko byangiza imyaka.

Itabi ni igihingwa gihingwa ahantu hihishe, akenshi usanga kivamo ibiyobyabwenge kandi ririca kuko ryangiza umuntu uri kumva umwotsi waryo. Ntabwo ari byiza rero gukunda itabi kuko ririca.

Abahinzi borozi bita ku mbuto zabo bateye cyane cyane nk'ibigori iyo utabiteye umuti birwara icyo bita nkongwa. Nkongwa imunga ibigori usanga uruti rwabyo rwaraguye kubera ko rutitaweho, ni byiza rero kubyitaho kugira ngo umusaruro wabyo ube mwiza kandi mwinshi.

Imvaruganda ni amafumbire akorwa n'inganda. Ayo mafumbire akundwa gukoreshwa n'abaturage b'abahinzi. Kandi umuhinzi wese wakoresheje ifumbire y'imvaruganda aba yizeye byimbitse ko azabona umusaruro utuyutse.

Igare ni nkinyabiziga cyifashishwa cyane mu butunzi mu bwikorezi. Gitunda ibyatsi by'amatungo, gitunda ifumbire, gitunda ibyo gucuruza, mbese igare rikoraga akazi gakomeye, cyane cyane cyane no mu giturage bararyifashisha mu buhinzi bwabo.

Ibiti byera imbuto ziribwa bigomba kwitabwaho cyane, cyane cyane babitera imiti kugira ngo bice udukoko tubyona, kuko iyo batabiteye imiti yabugenewe, usanga umusaruro wabyo ubaye muke cyane, ugasanga umuhinzi ntabwo yishimye.

Imiti ya kinyarwanda ni ibyatsi basoroma maze bakabikoramo imiti ya gakondo kandi iyo miti ivura indwara nyinshi nk'amarozi abantu baroga barayinywa maze bagakira ,ndetse ivura n'inzoka ,ivura na n'ubuganga, ivura indwara nyinshi za kinyarwanda.

Mu buhinzi bwa kijyambere, ni ubuhinzi bukorwa hifashishije ikoranabuhanga rihanitse cyane cyane, bakubaka ibyo bita amazu bita za girini hawuzi bakagemekamo imbuto, kandi bakunda kuzibungabunga kenshi kugira ngo barebe ko ziri gukura neza.

Amafi aba mu mazi, ni ikiribwa kiryoha cyane kandi gikungahaye kuri vitamini nyinshi cyane, tukagaburira abana ugasanga bakuranye ubwenge, mbese muri rusange amafi ni ingirakamaro mu buzima n'imikurire y'abana.

Amafi ni ikiribwa kiryoha cyane, kiba mu bwoko bw'inyama, kiba mu kiyaga ni mwo baziroba, kandi abantu begereye ku kiyaga usanga zibahaye imibereho cyane, kuko baraziroba bakazigurisha, bagashobora kwiteza imbere.

Amafi ka araryoha cyane tuyagaroba mu kiyaga cya Kivu, agakurwa mu kiyaga cya Ruhondo ndetse n'icya Burera Abadashoboye kugera ku kiyaga bayagura mu masoko aba arimo kandi umwana wariye ifi agaragaraga neza ku ruhando rw'isomo aratsinda cyane.

Ikiyaga ni ikidendezi cy'amazi, kibamo ibirwa, kibamo ndetse n'ibyo bita imyigimbakirwa, ikiyaga gitanga umusaruro cyane cyane nk'amafi, ndetse abantu baturiye ikiyaga bakunda kubona imibereho, cyane nk'amafi bakagurisha, ndetse n'bana babo ntabwo barwara bwaki.

Indagara z'indundi ni indagara ziryoha cyane kandi zigira igiciro kiri hejuru y'izindi zose, zirinda indwara zigaragara nk'inyama, iyo umuntu yaziriye ntabwo yakenera kurya inyama, cyane cyane ko inyama zo zahenze cyane.

Firigo ni igikoresho cya kizungu kibika neza ibiribwa, kugira ngo bitaza kwangirika, bitabora, kandi kibibika neza kuko kiba gifite ubuhehere bwacyo, kiba gifite umwimerere wacyo wo kubika ibiribwa kandi igihe kinini cyane.

Isamaki ni ikiribwa kiryoha cyane, bakiroba mu kiyaga, cyane cyane usanga iyo uri kukirisha umuceri, usanga uri kurya neza, cyane ko gikungahaye no kubijyanye n'amavitamini menshi kandi gitanga ubwenge, cyane ku bana.

Amahera ni udufi dutoya baroba mu kiyaga kandi amahera bayagaburira abana, hari abayarya ataze ku ipanu, abandi bakayakaranga mu mavuta akagira isosi nziza cyane. Umwana wariye amahera ntabwo apfa kurwara bwaki.

Amafi yaba mu mazi kandi barayaroba bakayajyana ku imasoko ndetse bayagemura mu bihugu by'amahanga, kuko ni ikiribwa gikungahaye cyane, gifite intungamubiri nyinshi. Aba meza kuyagaburira abana kuko abana bayariye bakurana ubwenge.

Amafi barayaroba, bamara kuyaroba bakayarunda ahantu hamwe, bamara kuyarunda ahantu hamwe bakazajya barayafata bakayashira mu makureti, ayo makurete bayashyiramo abafasha kuyageza iyo agomba kujya.

Amafunguro ateguranwe ubwuzu aba yuzuye aba ari ho ibiribwa byose, hariho imboga, hariho imbuto, hariho byose bikenerwa mu bijyanye n'intungamubiri, agomba kuba yujuje ubuziranenge kandi ateguye neza.

Ibirayi ni i bihingwa bihingwa cyane cyane mu turere tw'amajaruguru y'u Rwanda, bahinga ibirayi, icyo gihingwa kihaba cyane, icyo gihingwa ngandurarugo gikunda kuhaba, abantu bo mu majyaruguru beza ibirayi kandi bakiteza imbere.

Ibigori ni igihingwa gihingwa ahantu hose, mu turere twose tw'igihugu bahinga ibigori. Ibigori biribwa mu buryo bwinshi butandukanye: babiryamo imisigati, ibitiritiri byabyo barabicana, ndetse bigira n'ikigori nyirizina botsa, bateka kikavamo n'impungure, kivamo ndetse n'igikoma, kivamo ibintu byinshi.

Ibinyomoro babitera ahantu harimo insina nkeya, kuko umurima w'ibinyomoro ugomba kuba ari umurima unoze cyane, utarimo ibihingwa byinshi by'akajagari, kuko iyo bibaye akajagari ntabwo umusaruro wabyo uba mwiza cyane.

Indabo bazitera ku muharuro ndetse bakazikikiza no ku rugo usanga ari nziza cyane, abenshi bazishyira no mu mavaze ugasanga zigaragaye neza mu rugo, ndetse hari n'igihe ujya kwinjira nko mu nzu ukakirwa na zo. Ugasanga impande zombi z'umuryango, ziteretseho amavaze y'indabo.

Insina bazitera ku rugo, ndetse usanga hariho n'ibiti byera imbuto nk'amapera, avoka, ibyo byose usanga ku rugo bihari, ndetse haba hariho n'amazu ahari yo mu giturage, abantu bahaturiye usanga bari kujya kuvoma mu misozi batuyemo, mbese usanga hariyo n'imihanda y'imigenderano.

Igihingwa cy'ibirayi usanga ari igihingwa gikundwa guhingwa cyane n'abantu begereye mu bice by'amajyaruguru. Bagihinga ahantu hakonja nko ku birunga bakunda guhinga cyane ibirayi.

Ibirayi ni ibihingwa bikenerwa cyane ku banyarwanda benshi. Usanga ari wo muryo ukundwa cyane, kandi bikunda guhingwa mu karere k'amajyaruguru, cyane ndetse mu karere k'ibirunga barabihinga ku buryo bufatika cyane.

Ibigori ni igihingwa gikundwa cyane, cyane cyane impande zose z'igihugu ndetse no ku isi bahinga ibigori, kuko ni igihingwa gikunda kuribwa mu buryo bwinshi kandi butandukanye, bakiryamo impugure, bakiryamo kawunga, bakirya ari kibisi cyokeje, bakirya kwinshi.

Amabuye barayubakisha, usanga ndetse ahantu bubakisha amazu y'amabuye aba ari amazu akomeye cyane, kandi no muri aya amazu yateye imbere bakoresha amabuye nko mu mafondasiyo yayo, usanga amabuye ari ikintu gikunzwe cyane.

Pepiniyeri zibamo ibiti by'amoko menshi atandukanye. Usanga harimo ibiti bya avoka, haba harimo ibiti bya gereveriya, habamo ibiti byinshi by'amoko atandukanye. Habamo imbuto zo kurya, ibinyomo, habamo byinshi bitandukanye.

Karoti ni igihingwa k'imboga, kandi kigira akamaro cyane cyane mu mubiri w'abana, kivura amaso. Karoti zivura amaso, ku bana bakiri batoya ni byiza kubagaburira imboga zirimo karoti, kuko zirwanya cyane indwara y'amaso, mbese zirwanya ubuhumyi, ni imboga nziza muri rusange.

Urutoki ni igihingwa ngandurabukungu. Urutoki iyo umuntu arufite ntabwo abura icyo agaburira abana. Urutoki iyo umuntu arufite ntabwo yicwa n'icyaka, ndavuga inyota. Urutoki iyo umuntu arufite ararya akabona ndetse n'amafaranga. Igiko na cyo bacyitaga umurinzi, hari icyo cyavugaga mu gihe cya kera.

Ibibonobono ni ibiti bikunda kuba mu mirima, bimera cyane cyane ahantu h'imibande, kandi ibyo biti bigira imbuto zimeze nk'ibishyimbo. Ibibonobono bivamo imishingiriro, ndetse bivamo n'inkingi zo gutega ibitoki.

Ibigori ni' ibihingwa byitabwaho bikiri bito, cyane kuko birwara agasimba kitwa nkogwa, ako gasimba iyo utangiye kubitera umuti hakiri kare karapfa, ntabwo gakunda kubiganza cyane.

Inanasi ni imbuto iryoha cyane. Usanga hose igogora umubiri neza, ituma mu nda hagira ubworohe ku buryo umuntu nk’aho agirira ikibazo cyo kurwara ibirwara byinshi.

Icyayi ni igihingwa nzamurabukungu. Cyera mu Karere ka Gicumbi, Intara y'Amajyaruguru. Gifasha abaturage kwiteza imbere, kikabazamura mu mibereho yabo ya buri munsi, ndetse ugasanga ubwigunge bubavuyemo kubera ko buri wese akirigita ku ifaranga riva mu cyayi

Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa twifashisha mu buzima bwacu bwa buri mundi. Turya umutsima w'ibigori, tunywa igikoma cy'ibigori, tunywa ndetse n'umusuru w'ibigori, kuko ibigori iyo tubivangiye n'amasaka bitanga umusururu mwiza cyane uryoshye, ku buryo ntabwo umunyarwanda uwo ari we wese akwiriye kubura icyitwa ikigori mu rugo rwe.

Imyembe ni igihingwa gitanga imbuto ziryoshye cyane habaho imyembe ya kizungu, yera imyembe minini, habaho ndetse n' imyembe mitoya yera utwembe dutoya ariko izo mbuto zombi zigira akamaro cyane mu mubiri w' umuntu.

Amashu ni imboga zikundwa cyane, kandi zikundwa na rubanda nyamwinshi, cyane cyane bakunda kuzigabura mu bigo by'amashuri, mu bigo birimo abantu benshi, bakunda kugabura amashu. Aribwa ari mabisi, akaribwa atetse, mbese uburyo bwose ushaka kuyaryamo wayarya.

Pepeniyeri ni ahantu bagemeka imbuto bakazazigemura zimaze gukura, bakajya kuzitera ahantu mu mirima. Bakunda cyane cyane kugemeka ibiti by'imbuto ziribwa, cyangwa se ibiti biterwa ku mihanda, cyangwa se ibiti bibyara amashyamba.

Mu murima habamo abahinzi benshi, ndetse bahinga bari gu kunkumura, kugira ngo intabire yabo bahinze bazateremo imyaka yere neza, kandi izatange umusaruro mwinshi, kubera ko iyo bahinze bari gutsiba usanga barumbije nta kintu bejeje.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi buteye imbere cyane kandi buteza abantu imbere cyane cyane nk'inkoko z'inyama. Uragurisha ukabona amafaranga, uragurisha ukubaka inzu, ukabona ndetse n'abo ukodesha nawe, kubera ko inkoko zirunguka cyane. Rwose iyo uzifite uba wakize byarangiye.

Aba babagazi ni abahinzi bahinga imyaka bakanayibagara, kugira ngo ikure neza kandi bazabone umusaruro ushimishije mu gihe cyo gusarura, barahinga, bakabagara, barangiza bagasarura bagashimishwa n'umusaruro wabo bakuye mu byo bahinze.

Insina za kijyambere ni insina batera kandi zera ari ngufiya, zera igitoki kinini cyane ku buryo urebye, ukareba uburebure bw'insina, ukareba n'uburebure bw'igitoki usanga bitajyanye rwose na gatoya, uba ubona bitajyaniranye.

Urutoki ni igihingwa ngandurabukungu, urutoki ndetse ni n'igihingwa ngandurarugo kuko batera igitoki cy'inyamunyu bakakirya kigeretse ku bishyimbo, ndetse batera n'igitoki cy'inkashi bakacyengamo inzoga bakagurisha bakabona amafaranga yo gutunga urugo.

Ibijumba ni igihingwa ngandurarugo. Iyo ufite ikijumba mu rugo ntabwo abana bicwa n'inzara, iyo ufite ikijumba mu rugo ntabwo ubura umunyu. Ukura igitebo ukajyana mu isoko, ahasigaye ukagura umunyu, ukagura imboga z'abana, abana bakarisha ibijumba, bikagenda neza kandi ugasanga imikurire y'abana ibaye myiza cyane.

Imiteja ni igihingwa cy'ibishyimbo, batera bagambiriye kuzakiryamo imiteja, imiteja ni imboga ziryoha cyane, kuko abantu benshi barazikunda, bazikoresha no mu makwe, ahantu habaye amanama, bakunda kwifashisha imiteja, bayirya ari mibisi cyangwa bakayiteka, yose iraribwa kandi usanga ari byiza cyane.

Igiti ni ingirakamaro， cyane cyane ko， ndetse no mu Rwanda twizihiza umunsi w’igiti. Igiti nicyo twubakisha，igiti nicyo ducana， igiti nicyo terambere，mu bintu byose dukoresha igiti. Niyo mpamvu rero tugomba kubahiriza umunsi w’igiti mu Rwanda.

Karoti ni imboga ziryoha cyane, akenshi bazirya ari mbisi nk'abakunda kurya amasarade bazirya mu buryo bwa sarade, abandi bazirya mu mboga, abandi ndetse baziteka no mu mvange. Ukundi ni na byiza ko bazihekenya ari mbisi uko zirwanya amaraso cyane.

Ihene ni amatungo magufiya bororera mu birararo cyangwa se bakayaragira ku gasozi. Yororoka cyane ku buryo ihene imwe ibyara ikabyara nk'abana batatu cyangwa bane. Wasangaga abantu borora ihene bafite imibereho myiza cyane cyane ko habagamo n'amahenehene baha abana barwaye bwaki.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi bukwiriye kwitabwaho cyane, cyane cyane iyo ibirayi bikiri bitoya barabyuhira ndetse babitera n'umuti, kugira ngo bizatange umusaruro mwiza. Babirundiraho itaka kugira ngo nibishora, ibirayi bizashora bizabone uko bibyibuha.

Indimu ni urubuto rufitiye umubiri wacu akamaro kanini cyane, iyo uriye indimu ifasha igogorwa ry'ibiryo, indimu ituma ibinure bikamuka, indimu ivura inkorora, indimu ndetse ikora salade nziza cyane . Ni byiza ko dutera ibiti by'indimu, kugira bijye bidufasha mu buzima bwacu.

Ibirayi babibagara kenshi ndetse bakora icyo bita ku birundira itaka kugira ngo bizabashe kwishora neza. Kandi iyo babikoreye neza gutyo bizana umusaruro ushimishije ugasanga umuhinzi u byejeje ahagaze neza ku isi.

Ibigori ni igihingwa gihingwa ahantu hose mu duce tw’igihugu kandi kirakundwa kubera uburyohe bwacyo. Bakirya cyokeje, bakirya gitetse, bakiryamo kawunga, mbese bakirya ku buryo bwinshi, ndetse n’impungure. Ikigori rero ni ingirakamaro cyane.

Indabyo ni ibihingwa byiza cyane bituma ahantu hagaragarara neza, ndetse indabyo zigira akamaro kenshi cyane. Iyo twagize ibirori, ndetse n'iyo twagize ibyago indabyo turazikenera. Bivuze ko indabyo ari igihingwa gikenerwa ahantu hose.

Voka ni imbuto ziryoha kandi zikundwa n'abantu bose, cyane cyane ko bazirya mu maresitora mu mahoteli, bazishyira ku biryo bazikoramo ndetse n'amasalade, bazishyira ku masalade bakarya, ubundi kandi bazirisha n'ikijumba ugasanga ziraryoshye cyane.

Imyumbati ni igihingwa ngandurarugo. Imyumbati ni ikinyabijumba gikundwa cyane n'abantu b'ingeri zose, ari abana barawukunda. Wa wurya uwuhekenye, wawurya uwutetse mu nkono, wawuryamo umutsima. Umwumbati uribwa ku buryo bwinshi kandi ni igihingwa kiryohaha cyane.

Imboga rwatsi ibiribwa bikenerwa cyane, cyane cyane bikunda gukuza abana neza, kuko usanga umwana utariye imboga rwatsi arwara bwaki, kandi imboga zigaragara mu birindi indwara, ni byiza rero ko umuntu agomba kugaburira abana imboga, kandi n'abakuru barazirya rwose.

Ibitunguru ni igihingwa gihingwa cyane cyane n'abantu batuye ahantu hakonja, ibiitunguru bigira umusaruro mwinshi iyo byagize ijuru ryiza, Kandi ibitunguru bikenerwa n'abantu bose, haba mu gukaranga ibiryo, haba mu gutogosa, ndetse ibitunguru bibamo n'umuti w'indwara nyinshi.

Ibirayi ni igihingwa kigira ku umusaruro ushimishije cyane cyane iyo byagize ijuri ryiza usanga umuhinzi yishimye kuko abona amafaranga menshi akuye mu musaruro w'ibirayi. Ni nayo mpamvu usanga abantu benshi cyane cyane nko mu gice cy'Amajyaruguru bakunda guhinga ibirayi kuko bitanga amafaranga atubutse.

Ibirayi ni igihingwa gikundwa cyane, cyane cyane mu gice cy'amajyaruguru, bahinga ibirayi ku rwego rwo hejuru, kandi bigira umusaruro ushimishije, abenshi bikura mu bukene kubera igihingwa cy'ibirayi. Cyane cyane mu gice cy'ibirunga, bahingaga ibirayi bikabakiza kakahava.

Imyanya ni igihingwa kitabwagaho cyane n'abahinzi bazo, kuko iyo batazitayeho zigira amababi yo hasi, ayo mababi iyo batayaciye akiri matoya, atuma urunyanya rubabuka, ugasanga umusaruro wazo ubaye mukeya cyane.

Pipiniyeri ni ahantu bagemeka imbuto, imbuto bagemetse zikazamera, hakavamo ingemwe, izo ngemwe zivamo ni zo bahinga zikazatanga umusaruro w'imyaka uturutse, kuri za ngemwe bagembetse muri pipiniyeri.

Indimu ni urubuto ruvura cyane akenshi rubamo umuti cyane cyane uw' inkorora. Indimu ikindi kandi, zigira akamaro mu mubiri w'umuntu cyane cyane nk'iyo umuntu yagugaye mu nda arya indimu mu nda hakabohoka. Ikindi indimu zinoza uruhu cyane cyane nk'abantu bagira ibiheri bakoresha indimu.

Ibiti n'ibihingwa biterwa cyane cyane bikiri ingemwe, kugira ngo babyorore neza kandi bafate neza amashyamba, barabanza bagatema ibiti byari bisanzwemo maze bagatera ingeme ntoya, kugira ngo amashyamba azabashe gukura neza kandi azazamuke afite ibiti byiza bigororotse.

Inkoko n'ubworozi bw'amatungo magufi, butanga umusaruro w'amagi ndetse bitanga n'imishwi, ukororoka zikoroza abantu, inkoko zororwa n'abaciriritse ndetse n'abarebare, ni itungo ritagora kuryorora.

Ibitoki ni ibihingwa bigira akamaro kanini cyane babirya ari imineke cyangwa se bakabiteka ari nk'inyamunyu. Usanga ari ibiryo biryoshye ari ku mineke, ari ku nyamunyu ndetse no ku rwagwa usanga ari sawa cyane.

Inyanya nigihingwa gikunda kuribwa nk'imboga, cyangwa se nk'ikirungo nk'ibind biribwa, usanga ari igihingwa gikunda gutanga umusaruro ushimishije, cyane cyane ko no ku isoko usanga ari igihingwa gihenze, ku buryo hari igihe urunyanya rumwe rwaguraga magana abiri.

Avoka ni urubuto rwera rufite imbuto nyinshi, ndetse rurakundwa cyane umuntu ayirisha ikijumba ukumva biri kujyana, umuntu ayirisha ibiryo, umuntu ayirisha umugati, mbese avoka iribwa mu buryo bwinshi butandukanye, kandi usanga ari urubuto rugabanya ibinure mu mubiri w'umuntu.

Avoka ni urubuto ruryoha cyane, kandi rugirira umubiri akamaro rukamu ibinure mu mubiri, avoka uyishyira ku biryo ukarya ukumva biraryoshye, avoka uyikoresha mu bintu byinshi bitandukanye, ndetse hari n'abayishyira mu musatsi kugira ngo umusatsi wabo worohe cyane cyane, dore ko ari na vitamine y'umusatsi.

Ibishyimbo ni igihingwa kitabwaho cyane, cyane cyane kuva bikimera kugeza bibaye intonore, barabibagara, babisoroma ibishogoro, kugira ngo bizagire umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Icyayi baragisoroma bakagipakira mu bitebo l, bakakijyana mu nganda . Habaho inganda zitunganya icyayi, kandi icyayi bakigemura mu bihugu byo hanze by'amahanga kuko icyayi cy'u Rwanda baragikunda cyane.

Ikawa n'igihingwa ngandurabukungu. Kigira akamaro cyane ari iwacu mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'amahanga. Ikawa y'u Rwanda iba ifite umumaro munini cyane kuko ifite n'umwimerere wayo kurusha ayandi makawa 'ahandi.

Akarima k'igikoni ni ahantu hatera imboga bakahatera ibiribwa nk'ibigori ndetse bashyiramo n'ibiti by'imbuto ziribwa usanga akarima k'igikoni gatumye mu rugo hagaragara neza. Haba neza iyo uri kukareba mu rugo.

Umuhinzi mworozi ni umuntu uhinga ibihingwa ndetse akabigirira umurava mu mihingire ye, kuko aba akeneye kuzabona umusaruro umushimishije kandi akagaburirira n'igihugu ndetse n'abanyagihugu, agahinga kandi agasagurira isoko.

Indimu ni urubuto rugira akamaro kanini cyane, cyane cyane usanga abantu bari kuzifashisha nko m'uburwayi, zivura indwara nyinshi zitandukanye, zivura indwara z'uruhu, zivura inkorora ndetse bazikoresha mu muti, mu miti natirere, cyane cyane ku bana bakunda kuzivanga n'ubuki zikavura inkorora.

Isoko ry'ibiriribwa ni isoko ribamo ibintu byose, ikintu cyose ushaka mu isoko ry'ibiribwa ukibonamo. Cyane cyane imboga, inyanya, amashu, ibitoki, n'ibindi bintu byose bikunda kuba mu isoko ry'ibiribwa. Nta cyo waburamo.

Avoka ni igihingwa gikundwa cyane, ni urubuto rwiza ruryoha, rukundwa n'abantu b'ingeri zose, abana, abakuru bose bakunda avoka, tukazirya ku biryo, ukayirya yonyine, ukayirisha ikijumba, avoka ni urubuto ruryoha cyane.

Ibigori ni igihingwa kigomba kwitabwaho cyane, cyane cyane ku muhinzi wa gihinze agomba guhora ari kugesura, kugira ngo akureho ibibabi. Hari ibibabi bituma ibigori bitera neza, ndetse agomba no kubyaturira kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije.

Icyayi cyacu ni igihingwa ngandurabukungu, kandi icyayi kirakenerwa cyane ,ari mu mahanga baza kugitwara tukabona amafaranga ndetse natwe mu Rwanda. Icyayi turagikenera cyane kuko ni ikinyobwa cyiza mu buzima bw'umuntu.

Amateke n'igihingwa cya kinyarwanda ndetse bakunda kuyatera bateye ibice, bayatera mu gishanga cyangwa mu misozi, usanga ari igihingwa kiryoshye kuko bayagereka ku bishyimbo, ubundi bakayateka yo nyine kandi usanga aryoshye cyane, ku bantu bayazi ntabwo wayavaho.

Amashu ni imboga rwatsi zihingwa ku mirongo, kandi izi mboga rwatsi zirakundwa cyane, kuko rubanda nyamwinshi ruhinga amashu, kandi amashu ahingwa mu turere twose tw'igihugu, bakagaburira abanyeshuri, bayagabura mu bigo bya gisirikare, abantu bose barya amashu bakayarya ari mabisi cyangwa atetse.

Amateke ya bwayisi ni amateke batera mu gishanga kandi akunda kwera ahantu hari amazi kuko mu misozi ntabwo yahakunda kubera ko aba akeneye amazi cyane. Araryoha, akunda gukoreshwa mu makwe, ahantu henshi mu makwe bakunda kurya amateke ya bwayisi.

ingurube ni inyamaswa yoroka cyane, iyo ibwaguye ibibwana byazo bigira amafaranga menshi, kandi bigatuma iterambere ry'umuryango ryaguka kuko icyana kimwe iyo ukigurishije amafaranga ageze nko mu ibihumbi mirongo itatu. Ingurube iguteza imbere cyane, ukagira iterambere ryiza.

Imboga zitabwaho zikiri ntoya mu murima barazibagara kugira ngo zikure neza kandi zishishe, kuko iyo bazibagaye neza kandi bakazifumbira zitanga umusaruro ushimishije.

Puwavuro ni igihingwa kibamo ikirungo cyo mu biryo ibyo aribyo byose, bazirunga mu nyama, bazirunga ndetse no mu mvange, mu mboga zose bakirungisha izo mboga, usanga gimuza ibiryo cyane bikaryoha.

Igipapayi ni urubuto rwiza cyane; rukungahaye ku bijyanye no gufasha umubiri mu igogora ry'ibiryo, rutuma mu nda horoha ku buryo n'iyo umwana yagize ikibazo cyo kugira impatwe, yituma neza cyane kubera ko ipapayi iramufasha cyane.

Umuhinzi agomba kubagara imyaka ye akegera ibishyimbo yahinze kugira ngo arebe ko nta rusimba rwajemo kandi agomba kubibagara ku gihe akagerageza no kureba ko nta rusimba rwajemo kugira ngo azabone umusaruro uhagije.

Ibigori n'igihingwa gihingwa mu gihugu cyose. Mu gihugu cyose bahinga ibigori, mu turere twose nta hantu na hamwe badahinga ibigori. Kandi umusaruro w'ibigori ugirira abaturarwanda bose akamaro cyane cyane, kuko baburyamo impungure, bakawuryamo umutsima, bakanywamo igikoma. Umusaruro w'ibigori rero ugira akamaro kanini.

Abahinzi ni abantu bakurikirana ibikorwa by'ubuhinzi, kandi babishoramo imbaraga nyinshi, kugira ngo babibonemo umusaruro watuma batera imbere n'imibereho yabo ya buri munsi. Bakunda gukora imirimo yabo kinyamwuga, bagafumbira, bagakora byose bishoboka, kugira ngo babashe kuronka umusaruro utubutse.

Inyanya ni igihingwa gihingwa cyane cyane ahantu hashyuha, niho hakunda kwera inyanya, inyanya tuziteka mu biryo tukarya isosi iryoshye cyane, inyanya urazigurisha abahinzi bazo bakabona amafaranga, kandi iyo zigize umwero mwiza zigira amafaranga, cyane cyane umusaruro wa zo uba mwiza cyane.

Ishyamba na ahantutu haba ibiti birebire n'ibyatsi bigufi, amashyamba akurura imvura, amashyamba turayacana, amashyamba turayubakisha, ishyamba rigira akamaro kanini cyane mu mibereho y'abantu batuye agace runaka, mbese ni byiza ko amashyamba tuyatera kuko ni ingirakamaro mubuzimz.

Indabyo ni igihingwa gifitiye cyane akamaro ku abazihinga, kuko abantu bakenera indabo mu birori, bakenera indabo mu byago, bakenera indabo ahantu hose, indabyo kandi umuntu uzihinze zimugirira akamaro, kuko iwe atajya abura amafaranga yo gukoresha.

Ingano ni igihingwa cy'ikinyampeke, igihingwa kigira umumaro munini cyane mu mubiri w'umuntu. Bakinywamo ibinyobwa, cyane ko no muri Burarirwa baragikoresha mu kwenga za pirimusi ndetse na za mitsingi. Bakiryamo umutsima ndetse bakinywamo n'igikoma.

Abahinzi b'amasaka barayahinga, barabiba, barangiza kubiba bakayabagara kugeza ubwo bayateye n'umuti kugira ngo bazabone umusaruro. Basarura amahundo, bakora ibyo bita kugesa amahundo. Amahundo barayagesa bakajya kuyanika, nuko bakazayahura hakavamo amakoma.

Umuceri ni igihingwa gihingwa mu gishanga cyane cyane ahantu hari amazi menshi kuko ukenera amazi ahagije, kugira ngo ubashe gutanga umusaruro. Ni byiza cyane kuko no mu Rwanda duhinga umuceri ntiduhore dutegereje umuceri uturutse mu mahanga. Natwe duhinga uwacu kandi biradushimishije cyane kuko tuweza natwe.

Mu mirima y'abahinzi bahinga ingano cyangwa ibishyimbo babisarurira mu mirima, akenshi cyane nk'iyo babisaruye byumye babihurira mu murima bakabipakira mu mufuka, bakajyana imifuka ipakiye bakajya kuyihunika iwabo mu rugo.

Ubunyobwa ni igihingwa gihingwa ahantu hakunda gushyuha, bagihingaga ahantu hafite ubushyuhe, kandi gitangaga umusaruro, gitanga amavuta, ubunyobwa barabukaranga, ubunyobwa baburya bukaranze cyangwa se bakabusyamo ifu yo gukoramo isosi. Ubunyobwa bugira akamaro kanini cyane mu mibereho y'abantu.

Iduka ni ahantu bacururizaga ibiribwa. Bahacururiza imyambaro, bahacururiza ndetse n'ibikoresho byo mu rug. Ibintu byose tubisanga mu maduka kuko ari ho biba biri gucururizwa n'abantu b'ingeri zose, kandi benshi.

Pepiniyeri ni ahantu bagemeka ingemwe zikazakura, bakazikuramo ingemwe zo gutera ahantu, bakazahakura umusaruro kubera ko ziba zakuze zigatanga igihingwa gikuru.

Ubuhinzi bw'indabyo n'ubuhinzi buteye imbere cyane . Kuko indabyo zirakenerwa ahantu hose haba mu birori ndetse habano mu byago indabyo zirakenerwa, usanga abahinzi b'indabyo bari gushakishwa kuko indabyo zikenerwa kenshi buri munsi kandi.

Umusaruro w'ibigori ugomba kubikwa ahantu hatagera amazi, bakabifata bakabimanika nko ku rutendezo rw'inzu, bakabimanika ahantu hatagwa imvura, kugira ngo bitaza kugira ikibazo cyo kubora, kuko iyo biguyeho imvura birabora.

Ibihwagari ni igihingwa bahinga, kandi icyo gihingwa ni ikinyampeke kigira impeke batonora, izo mpeke zitanga amavuta meza cyane y'ubuto. Ayo mavuta aba afite ubuziranenge, kuko nta ndwara n'imwe atera.

Umusaruro w'ibishinmbo ni umusaruro ubikwa neza, kandi iyo bakimara kubisarura bagomba kubanza babitoranyamo imyanda, maze bamara kubitoranyamo imyanda bakabona bakabihunika, kuko umusaruro w'ibishimbo bagomba kubibika babihungiye, kugira ngo bitazarwara imungu.

Ibihwagari ni igihingwa kivamo amavuta meza cyane akundwa ku isoko. Ahantu hose bakunda amavuta y'ibihwagari, cyane cyane ko adatera uburwayi. Ndetse n'abantu bafite nk'indwara z'imivuduko babategeka gukoresha ayo mavuta y'ibihwagari.

Ibivunde n'imyumbati itaribwa ari mibisi, cyangwa se bayitetse, ahubwo n'imyumbati basyamo ubugari maze bakayinika, ndetse bakayanika, iyo imaze kwina, bakajya kuyibetesha bakayikuramo ubugari, ubugari buraryoha cyane cyane iyo bari kuburisha agasupu usanga buryoshye.

Inzu z'ubunikiro, ni inzu bahunikamo imyaka kugira ngo itagira aho ihurira n'imvura, usanga imyaka bahunitse muri izo nzu, ifite ubuziranenge, ndetse itanga n'imbuto nziza ku baba bashaka kuyihinga.

Tungurusumu ni ibihingwa bahinga ahantu hose mu turere twinshi tw’igihugu, cyane cyane bazihinga mu karere k’Iburengerazuba kuko zirahera cyane. Usanga ziri gutanga umusaruro ushimishije rwose.

Ikigega ni igikoresho cya kinyarwanda, abanyarwanda ba kera bakundaga kugira mu ngo zabo, baracyubakaga, bakacubakira, bakagisakaza ubwatsi kugira ngo imyaka iri mu kigega itaza kunyagirwa, kandi ikigega cyagaragazaga urugo rw' umukungu.

Umusaruro w'ibigori bawubika ahantu huhutse, ndetse hasakaye ku buryo utagomba guhura n'imvura ,kuko iyo imvura iguye ku bigori usanga biri kubora, ariko iyo umanitse ahantu hataragera imvura umera neza cyane n'imbuto zawo zikaba nziza cyane.

Ibigori ni igihingwa ngandurarugo, kandi gihingwa n'abantu benshi hafi yo mu Gihugu cyose bahinga ibigori, kandi bigira umusaruro gushimishije, ku buryo ubihunika neza kugira ngo bitazagerwaho n'imvura, kandi igihe cyo kubisheshamo kawunga cyangwa kubigurisha, ugasanga ntacyo bibaye kuko wabihunitse neza.

Inzu bahunikamo ni inzu usanga yubatse ukuntu ku buryo haba harimo imyanya ituma izuba rigera ku byo bahunitse, kugira ngo bitaza kuzapfa, kandi inzu bahunikamo, usanga abahinzi hafi ya bose bazifite, kugira ngo bafate neza umusaruro wa bo.

Imiteja ni ibishyimbo batera bikera imeteja, kandi ibyo bishyimbo kugira ngo haboneke imbuto yabyo, ni uko babireka bikera n'intonore noneho za ntore zakuma bakazazisarura bakabona imbuto, ariko imiteja ni imboga ziryoha cyane.

Umusaruro w'amasaka, iyo bamaze kuyasarura barayanika, bakayashyira ahantu hava izuba ryinshi kugira ngo yume. Iyo amaze kuma barayagesa bakayahunika mu kigega, cyangwa se bakayanika bakayahura kugira ngo bazayinike avemo amamera.

Ingurube bazubakira ikiraro cya kijyambere bashyiramo ndetse n'isima, kugira ngo zitarwara uburenge cyangwa se zihore zisa neza, kuko iyo zibaye ahantu hasukuye nazo usanga zifite isuku zikeye cyane.

Inka ni itungo rirerire riba mu rugo, umuntu woroye inka aba ari umuntu ufatika, kandi aba ari umuntu wiyubashye, cyane cyane ko umuntu utifashije ntabwo yashobora kwigondera inka ngo ayigure, ni yo mpamvuka ari ikimenyetso cy'umuntu wagira iterambere.

Inka ni itungo rinini kandi rigira akamaro cyane mu muryango nyarwanda. Inka irubahwa cyane umuntu wese woroye inka aba ari umuntu wifashije cyane cyane ko ari n'ifunguro rigaragaza umuco cyane nko mu bijanye n'umuco wo gukwa inka igira ijambo rinini cyane muri ibyo birori.

Veterineri n'umuntu uvura amatungo kandi akavura indwara zose aho ziva zikagera, cyane cyane amatungo arwaye arebye ayatera inshinge, bakayajyana ku birobye akoreraho cyangwa se akaza kuziavurira mu rugo ibyo byose arabikora veterineri.

Inka ni itungo rikenera kugirirwa isuku kuko zirwara uburondwe, zirwara n'izindi ndwara nyinshi zatuma imibereho yazo ihungabana, ni yo mpamvu ari byiza ko inka zigenerwa imiti yabugenewe yo kuzikiza uburondwe kandi bakaziraza ahantu hafite isuku, zikagira ndetse n'abavuzi babizobereye kugira ngo bazikurikirane.

Ingurube bayubakira mu kiraro bacyita "ikibuti cy’ingurube". Usanga akenshi ingurube zitungwa n’ibyatsi, ndetse zirya n’ibijumba, cyangwa se bakaziha igiheri n’ibindi biryo. Akenshi ibiryo baziha biba bidahiye neza, ari bibisi.

Intama za kijyambere ni amatungo magufi borora, cyane cyane aborozi b'aya matungo baba bagamije ko yazabateza imbere mu bijyanye no kuyogosha ubwoya, cyane ko ubwoya bogosha kuri izo ntama bugira akamaro kanini mu gukora imyenda n'ibindi byinshi.

Isake ni inkoko y'ingabo, zishondana n'inkokokazi, maze inkokokazi ikabona udushwi, maze bigatuma inkoko zororoka, kandi ni byiza korora inkokokazi n'isake, kuko bitanga umusaruro ushimishije.

Ubworozi bw'inkoko z'inyama ni ubworozi buteye imbere cyane, butanga umusaruro ku borozi b'inkoko kuko inkoko z'inyama ziragurwa cyane. Cyane ko zitanagira uburwayi bwinshi zitera nk'inyama zitukura, ni byiza ko tworora inkoko kuko zitanga inyama z'umweruru zigirira umumamaro mu umubiri wacu.

Ingurube ni itungo rigufiya cyane cyane ryororoka cyane ku buryo burenze cyane cyane ko ribwagura ibyana byinshi, iyo bwaguye rimwe usanga ri bwaguye nk'iryana icumi kandi umworozi w'ingurube iyo yabwaguje icyana kimwe, akigurisha nk'ibihumbi mirongo itatu ikamuteza imbere vuba, usanga aborozi b'ingurube bateye imbere vuba.

Ikiraro cy'inka ni inzu iba yubakishije ibiti, cyane cyane babikoreshaho imbaho bita imbabari, ndetse bayisakaza amabati y'amakura, akenshi usanga ari inzu zubatse neza ku buryo bwa kijyambere, ndetse bagasigaza n'ahantu inka zirirara cyangwa se ayadi matungo arira.

Ubworozi bw'inkoko, n'ubworozi buteye imbere cyane, cyane cyane borora inkoko zitera amagi, borora inkoko zo kuryamo inyama, borora inkoko zitanga umusaruro ku buryo bwinshi, ndetse zitanga n'ifumbire, inkoko rero umuntu uzoroye zimuteza imbere cyane.

Veterineri ni umuganga uvurura amatungo, ayavurira mu rugo cyangwa se bakayamusangisha ku kibumbiro aho bayavurira akenshi veterineri aba afite imiti iwe mu rugo, kuko no mu giturage cyangwa se n'ijoro hari igihe bamuhamagara itungo ryarwaye akajya kurivura, abaveterineri rero bagira akamaro mu mibereho yaborozi.

Ubworozi bw'inka za kijyambere ni ubworozi bushakirwa urwuri, ugasanga inka bazitereye ubwatsi zigomba kurisha, kandi ntizirirwe zandagaye mu muhanda. Bazororera rero mu rwuri rwazo, bakazizanira ubwatsi aho ziri, nuko ugasanga ubworozi buteye imbere, n'ubworozi bwiza bwa kijyambere.

Ubworozi bw'inkwavu ni ubworozi butanga umusaruro, kandi inkwavu ntabwo zirusha kuko bazahirira ubwatsi, cyakoze bakaziha ubwatsi butigeze bugeraho ikime kuko nibwo zigubwa neza. Kandi zitanga umusaruro ushimishije iyo umworozi wazo azitayeho neza.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bujyana no kugira abaveteri bakurikirana izo nkoko usanga zikunda kurwara indwara zitandukanye ku buryo ziba zikwiriye kwitabwaho na muganga wazo ari we bita veterineri.

Ubworozi bw'inkoko, ni ubworozi buteza aborozi bazo imbere. Cyane cyane borora nk'inkoko z'inyama. Inkoko z'inyama zigira umusaruro munini cyane. Iyo umworozi wazo agize amahirwe ntizifatwe n'indwara, akuramo akayabo k'amafaranga menshi cyane.

Ingurube n'itungo rigufi borora rikunda gutanga umusaruro cyane .kuko ribwagura ibyana byinshi, bituma uryoroye umworozi waryo abona umusaruro byimbitse , kandi bumuhagije bumuteza imbere mu buzima bwe bw'ejo hazaza bikagenda neza cyane.

Inyambo n'inka zakundaga kugaragara cyane ibwami m'Urwanda rwo hambere. Inyambo yabaga ari ikimenyetso cy'ibwami cyane cyane ko zari umutako w'ibwami, bazambikaga n'amasaro ugasanga zigize neza w'ibwami.

Abaganga b'amatungo baba ari abantu bakunda kuba hafi y'amatungo cyane y'abaturage, kandi usanga buri gihe bakenewe, kuko iyo amatungo arwaye bayaba hafi bakayaha imiti agakira, bakunda kuba mu byaro ndetse no mu mujyi, ahantu hose borora abaveterineri....

Inka zigomba gukingirwa cyane cyane ko hari indwara nyinshi zikunda gufata inka kuberako zitakingiwe, zitabonye inkingo zabugenewe hariho nk'indwara bita uburondwe ,hariho nk'indwara bita uburenge ,izo zose ni indwara zifata inka zitakingiwe ariko inka iyo yabonye urukingo bakayikurikirana neza ntacyo iba.

Inkoko n'itungo rigufi ryororoka cyane byihuse ritera amagi. Amagi akavamo izindi nkoko ndetse umuntu arayagurisha akabonamo amafaranga akamuteza imbere mbese iyo ugize umushinga wo korora inkoko uba wizeye neza ko nta gihombo uzahura nacyo.

Ubworozi bw'imbwa mu bworozi bukwiye kwitabwaho cyane kuko abana borora imbwa bagomba kuzikingiza. Zikagira veterineri wo kuzitaho kuko iyo zitakingiwe zikaruma umuntu arasara. Imbwa idakingiwe iterara ibisazi. Ni yo mpamvu abantu boroye imbwa bagomba kugana veterineri akabafasha.

Veterineri ni umuvuzi uvura amatungo, ayavurira mu rugo cyangwa se akayavurira aho akorera habugenewe. N'aho bita ku kibumbiro ajyanayo inka akazikingira, kandi indwara zose amatungo arwara Veterineri arazivura.

Inzovu n'inyamaswa y'ishyamba iba muri parike y'akagera, inzovu zikunda gukurura ba mukerarugendo, inzovu zikunda ahantu hatuje ntabwo inzovu zikunda urusaku, mbese n'inyamaswa zikunda umutekano cyane.

Inyoni ni akanyamaswa gatoya kabarirwa mu muryango w'ibiguruka. Akenshi inyoni zikunda kwibera ahantu h'amashyamba hari ibiti birebire. Zibarizwa mu misozi ahantu hose, usanga ari inyamaswa zikunda kubaho ziri mu byishimo.

Inyamaswa zo mushyamba ni inyamaswa zikurura abaza kuzireba, cyane cyane ko ari ibyiza nyaburanga by'igihugu. Inyamaswa zo mu ishyamba zifitiye igihugu akamaro, ni ngombwa kuzibungabunga, kugira ngo zikomeze kwinjiza amadovize mu gihugu cyacu.

Ingagi ni inyamaswa iba mu ishyamba ry'ibirunga, iyi nyamaswa akenshi zikunda gukurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba, bagasiga amadovize kandi ni byiza nyaburanga by'igihugu.

Umuserebanya ni agasimba gato kaba mu mabuye, umusebanya urya isazi, urya inigwa ahabiri, muserebanya ukunda kwibera mu mabuye, kandi ukunda kota kazuba, ntabwo gukundana n'amazi, bivuze ngo ukundana na'hantu hashyushye.

Impara ni inyamaswa iba mu ishyamba ry'Akagera, bakunda kuzirebera muri parike y'Akagera ni ho zibera. Usanga ari utunyamaswa dufite amahembe maremare, kandi anejeje kuyareba. Ni utunyamaswa twiza cyane.

Ingagi ni inyamaswa iba muri Parike y'Ibirunga. Ingagi zikurura ba mukerarugendo, ingagi yinjiza amafaranga menshi mu gihugu, cyane cyane ko ari n'ibyiza nyaburanga by'igihugu. Ingagi igira agaciro gakomeye.

Icyana cy'ingagi kiba mu ishyamba, kandi hariho igihe n'abantu bacyorora, cyane cyane abantu b'abakire baza kucyororera nk'ahantu hafatika, ku buryo umuntu wese yajya aza kukireba, akabaha amafaranga yo kwifashisha.

Inyoni ziba mu byiza nyaburanga by'igihugu, kandi inyoni zikunda kuba mu biti, zitura mu biti zigakoramo ibyari, hari inyoni zitarika zitaha mu mashami y'ibiti, izindi zikaba mu byari.

Uruyongoyongo ni inyoni ikunda kuba mu gishanga, kandi rubaga mu bwoko bw'inyoni nini cyane zikunda kurya icyondo cyo mu gishanga. Zirya kandi n'iminyorogoto, zirya n'ibindi bintu byinshi, utundi tunyamaswa twinshi tuba mu gishanga mu cyondo.

Inyamaswa z'ishyamba ni inyamaswa abahigi bjya gutega ,akenshi iyo abahiti bagiye gutega batahana umuhigo kuko mu ishyamba habamo inyamaswa nyinshi ziribwa, cyane cyane nk'iz'inyamaswa bita ihene z'ishyamba izo ngizo abahigi barazirya.

Akanyamasyo ni agasimba kagenda gahoro cyane, gakunda kwihisha mu gikonoshwa cyako kandi akanyamasyo gakunda kuba ahantu h'ishyamba ku buryo iyo kakubonye uri kugenda mu ishyamba gahita gahisha umutwe wako mu gikonoshwa cyako.

Ingagi ni inyamaswa ziba mu Ishyamba ry'Ibirunga, ingagi kandi ni ibyiza nyaburanga by'igihugu. Ingagi zikunda gukurura abanyamahanga bakazana amadovize mu Rwanda, ibyo nabyo bikagira uruhare runini cyane mu iterambere ry'Igihugu cyacu.

Isande ni inyoni nto zona cyane, kandi zikunda kuba ahantu hari imyaka yeze, isande zikunda kuba m'urubingo, zikunda kugira urusaku cyane, niyo mpamvu abantu bakunda kuvuga ngo abantu bari gusakuza nk'isande.

Uruyongoyongo ni nyoni ikunda kuba mu gishanga, irangwa n'kinwa kirekire, kandi zikunda kurya icyondo cyo mu gishanga, zirya n'iminyorogoto zijonjora mu cyondo, ikinwa cyayi kizifasha kujojora iminyorogoto mu cyondo.